Umuhanda w'igitaka uri mu giturage ukikijwe n'imirima y'abaturage n'amazu n'ibiti n'abantu bari kuwucamo.

Umurima wa kijyambere, uhinzimo ibigori, urimo umuyoboro w'amazi, ufasha kuhira, imyaka.

Umuturage uri mu murima uri kuhira imboga z'amashu mu murima, umurima ukikijwe n'ibindi biti n'indi myaka.

Agasozi kariho amaterasi y'indinganire, gahinzeho imyaka itandukanye n'amazu y'abaturage.